Abantu bahuriye mu nama harimo abirabura ndetse n'abazungu hari abari gukoresha terefone ndetse n'abandi bari kwandika mu bitabo, bose bafite uducupa tw'amazi imbere yabo bari muri sale irimo amatara yaka umuhondo.

Mu nama yahuriwemo abirabura ndetse n'abazungu, hari umugabo wambaye kositime y'ubururu, ishati y'umweru, karuvati y'ubururu ndetse n'amarinete. Hari umukobwa wambaye ijipo ndetse n'ikoti bifite ibara ry'iroza.

Inyubako nziza Kandi zisa neza zubatse ahantu heza Kandi hisanzuye ziri mumabara y'ubwoko butandukanye, imbere yaho hari indabo ndetse n'ibiti mu mabara atandukanye.

Umunara wubakiye utanga netiwaka za eyateli ndetse n'iza emutiyeni ufite uruzitiro rw'ibyuma kugira ngo birinde abajura bahaza kugira ngo bibe ibikoresho bitandukanye, imbere yawo hari imodoka ifite ibara ry'umukara.

Itangazo ritangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, rihabwa abacuruzi mu kubibutsa igihe cyo kumenyekanisha ndetse no kwishyura avanse ya gatatu y'umusoro ku nyungu, iminsi biri bukorwemo, inzira banyuramo kugira ngo bamenyekanishe umusoro igihe kitararenga mu rwego rwo kwirinda ingaruka zazabageraho mu gihe batamenyekanishije cyangwa se batanze umusoro.

Umunara muremure kandi munini wubatse mumabara y'umutuku ndetse n'umweru, uriho ibikoresho byagenewe gutanga netuwaka haba iza MTN ndetse niza eyateri muduce dutandukanye.

Iri ni itangazo ritangwa na rwanda reven authorid rimenyeshwa abacuruzi itariki ntarengwa yo kwishyura igihembwe cya gatatu cy'ipatade ry'umusoro ku nyungu w'ibyo bacuruje.

Inyubako ndende ya etaje ifite amabara y'icyatsi ndetse n'umweru ifite urupangu rufite porotayi y'ibara ry'icyatsi urukuta rwubakishije amatafari ahiye.

Itangazo ritangwa n'irembo muri gahunda ya byikorere ku ntambwe ya kabiri mu kwiyandikisha gukora ibizamini byo gutwara ibinyabiziga, ibisabwa kugira ngo wiyandikishe ndetse naho unyura kugira ngo ubashe kwiyandikisha kuri iyo ntambwe yo gutwara ibinyabiziga.

Itangazo ritangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro rimenyeshwa abacuruzi, itariki ntarengwa yo kumenyekanisha no kwishyura avansi ya gatatu y'umusoro ku nyungu, iminsi ibura kugira ngo birinde ingaruka zo kubikora mu minota ya nyuma, ndetse no kubona ingaruka mu gihe baba bishyuye umusoro ku nyungu igihe cyarenze.

Itangazo ritangwa na rura rimenyesha abanyarwanda uburyo bwo gushishoza cyangwa se kuba maso mu gihe bahamagawe n'abiyitirira ibigo by'itumanaho cyangwa se bakiriye ubutumwa bubasaba amafaranga, imirongo bagomba guhamagara mu gihe bahuye n'icyo kibazo kugira ngo birinde ibijyanye n'abatekamutwe.

Itangazo ritangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, rimenyeshwa abacuruzi iminsi ibura kugira ngo babe basoje kumenyekanisha umusoro w'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane, imibare bashobora gukanda kugira ngo abashe kwishyura cyangwa se webusayiti basura.

Hari ibyatsi biparitsemo imodoka z'ubwoko butandukanye hari kandi n'ahantu hubakiye umunara utanga netiwaka z'imirongo y'itumanaho itandukanye haba emutiyene, Eyateli ndetse na Tigo uwase ku mabara y'umweru ndetse n'umutuku hari icyapa kigaragaza umurongo w'itumanaho wa tigo ndetse n'abantu batandukanye begereye ku munara

Hano hari inzu itanga serivise z'irembo zitandukanye, ndetse na serivise za banki zitandukanye. Haba beka, ndetse na ekwiti banki.

Umunara utanga netiwaka mu duce dutandukanye, uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru wubakiye ahantu witaruye imidugudu, inyuma yawo hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umunara wubakiye ahantu hisanzuye kandi hameze neza hubatse mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru wifashishwa mu gutanga netuwaka z'imirongo itandukanye y'itumanaho haba airtel ndetse na emutiyeni.

Akayetajeri karimo ikinyobwa kiza gikorwa mu bikomoka ku mata, gifite icupa ribengerana rifite umufuniko w'umweru. Hejuru gato harimo n'ibindi binyobwa bitari kugaragara neza.

Icyapa kerekene noteri wikorera mu bijyanye no gushaka ahatangirwa serivise zirembo hari aba ajenti ba emutiyene mu muhanda urimo ibinyabiziga nka moto n'imodoka n'abagenzi bari kunyura mu nzira yagenewe abanyamaguru.

Iri ni itangazo ritangwa na Rwanda reveni otoriti rimenyesha abakiliriya baryo uburyo bakoresha kugira ngo bahindure pasiwadi muri i tagisi, inzira banyuramo kugirango babashe guhindura pasiwadi.

Iyi foto irimo umuhanda ufite ibyapa bitandukanye, ifite amazu atandukanye ndetse n'ahantu hatangirwa serivisi z'irembo zigiye zitandukanye.

Muri gahunda ya visiti Rwanda hari inyubako ya komveshoni senta yubatse mu buryo bw'uruziga hari jati irimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye imbere y'inyubako hari amadarapo agaragaza ibihugu bigize afurika ndetse n'ibihugu by'i burayi.

Iri ni itangazo ritangwa n'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ritangaza uburyo wamenyekanisha umusoro ku nyungu ukoresheje telefone yawe, ndetse n'inzira wacamo kugira ngo ubashe kumenyekanisha umusoro wawe.

Ikiganiro k'ikigo k'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro kuri radio Rwanda kimenyesha abacuruzi itariki ntarengwa yo kwishyura umusoro w'ipatanti y'igihembwe cya nyuma. Itariki ndetse n'isaha ntarengwa.

Umunara wubakiye ahantu hisanzuye ndetse ikaba ifite na porutayi iwuzengurutse kugira ngo birinde abajura bashobora kwiba ibikoresho bitatundanye. Umanitseho ibikoresho bitwara netiwaka yaba iya Airtel n'iya MTN mu duce dutandukanye.

Ni ku muhanda hari inyubako ifite irangi ry'umuhondo amabati afite ibara ry'icyatsi, hari ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye, ndetse n'ibiti bimera mu ishyamba.

Hano hari ibiti, indabo ndetse n'ibyapa byo ku muhanda. Hari kandi n'ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye.

Icyapa cy'ikigo cy' igihugu gishinzwe gukwirakwiza inguvu z'umuriro w'amashanyarazi mu Rwanda, riherereye i Gikondo hariho nimero ushobora kubahamagara ho mu gihe wagize ikibazo mu bijyanye n'umuriro wawe, cyangwa se aho ugomba kunyura kugira ngo ube wabavugisha.

Umuhanda urimo abamotari batwara abagenzi mu bice bitandukanye ndetse n'imodoka, ku nkengero zawo hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ibyuma biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu midugudu itandukanye, hari kandi ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Ni ku muhanda. Hari ibiti by'ubwoko butandukanye, haba ibiterwa mu ishyamba ndetse n'ibiterwa ku muhanda. Hari indabo ziri ku nkengero z'umuhanda. Hari inyubako ifite urupangu rw'ubakishije amatafari ahiye ndetse n'amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda harimo ibiti by'ubwoko butandukanye. Amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, n'amatara ashyirwa ku muhanda. Hariho ibyapa byamamaza ibintu bitandukanye.

Ku nkengero z'umuhanda hari inyubako zubatse mu moko atandukanye amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'isinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye hari abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru .

Hana hari igipangu cyubakishije amtafari ahiye , imbere yayo hari ibiti bimera mu ishamba ndetse n'indabo z'ubwoko bwose zimera ku muhanda, hari ipoto ririho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga z'amashinyarazi zitwara umuriro mu duce dutandukanye.

Inzu yubakishije amabuye ndetse na sima, hari indabo n'ibiti biterwa ku muhanda, bifite urupangu rw'irangi rya shokora, hari ipoto ririho insiga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu midugudu itandukanye, inyuma yayo hari ibiti byo mu ishyamba.

Hari inyubako ifite urupangu rwubakishijwe amatafari ahiye, ifite amabati y'umutuku hari ibyatsi ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, amapoto y'ibyuma ateretseho genereta itanga umuriro w'amashinyarazi mu duce dutandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga by'imodoka ku nkengero zawo hari amatara ndetse n'ibiti n'ibyapa byo ku muhanda, hakaba n'akazu k'umwajenti utanga serivisi z'amayinite ndetse no kwitsa no kubikuza amafaranga.

Umuhanda harimo imodoka ndetse n'abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru. Inyubako zubatse mu buryo butandukanye, hari ibyuma biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umudugudu urimo amazu ndetse hateye mo ibiti byo mu bwoko butandukanye, hari kandi n'ibyuma biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi muri uyu mudugudu, umudugudu usa naho hubatse ahantu hameze nko mu kibaya.

Hano hari amapoto yifashishwa mu gutwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye. Hari umunara utanga netuwaka mu duce dutandukanye, hari ibiti bitandukanye. Hari amazu afite ubwoko bw'amabati bumwe ndetse hari n'akazu gakorerwamo umu ajenti wa emutiyene mu gutanga serivisi zitandukanye.

Iyi foto irimo amatara yo ku muhanda ibiti biterwa ku muhanda amazu ndetse n'icyapa kigaragaza umurongo w'itumanaho wa eyateri.

Hano hari ibiti by'ubwoko butandukanye bimera mu ishyamba ndetse n'indabo, hari ipoto ririho amatara yo ku muhanda ndetse n'insiga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye, hari inyubako nziza kandi zubatse ku nkengero z'umuhanda.

Indabo n'ibiti byagenewe guterwa ku muhanda, n'ibiti biterwa mu ishyamba, hari ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, amatara yo ku muhanda, icyapa cyerekana aho imodoka igomba guhagarara kugira ngo ikuremo cyangwa ishyiremo umugenzi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, harimo n'ibara rya pinki, hari ibicuruzwa nka matela, amabage ndetse n'ibindi, iruhande rwayo hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye ndetse na fondasiyo yubakishije amabuye asanzwe. Hari amadirishya afite ibara ry'ubururu, ipoto ririho insinga zitandukanye zitwara umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye. Indabo zifite amabara y'umuhondo ndetse n'ay'icyatsi.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nka moto n'igare ririho amadomoro, umugenzi uri gukoresha amaguru hari inyubako nziza yamamaza inzoga ya mitsingi, icyapa kiriho umurongo w'itumanaho eyateri kuri pake ya foji, itara ryo ku muhanda ndetse n'insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye.

Hari imodoka zo mu bwoko butandukanye moto ndetse n'abagenzi barimo gukoresha amaguru, amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyaraz,i mu duce dutandukanye.

Abamotari bahagaze imbere y'inyubako, umwe ari gushyirirwaho kuri moto imizigo, ari gufashwa n'umuntu wambaye imyenda y'ubururu n'umugore umuri inyuma wambaye igitenge nabandi bagore babiri bari inyuma

Inyubako zifite amabara y'ubwoko butandukanye, hari imodoka ziparitse imbere y'inyubako, hari ibiti ndetse n'indabo biteye ku nkengero z'umuhanda, amatara yo ku muhanda ndetse n'amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu midugudu itandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo, hepfo yawo hari imodoka yo mu bwoko bwa toyota n'ibyapa ndetse n'amatara yo ku muhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye biteye ku nkengero z'umuhanda.

Idarapo ry'igihugu cyu Rwanda mu mabara y'ubururu umuhondo ndetse n'icyatsi indabo ndetse n'ibiti byagenewe guterwa ku muhanda amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Hano hari inzu isize amabara atandukanye imbere y'inzu hari ibihingwa bitandukanye yaba imyumbati ndetse n'ibigore, hari n'ipoto ririho insinga zigiye zijyana umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Hano hari inyubako zitandukanye mu mabara y'amarange, mu mabati atandukanye, hari indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti biterwa ku muhanda. Hari amapoto atwara umuriro w'amashanyarazi mu ngo zitandukanye.

Inyubako ifite urupangu rwubakishije amatafari ahiye, hateye indabo z'ubwoko butandukanye ndetse n'ibiti biterwa ku muhanda, hashinze ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye.

Hano hari inyubako ikiri kubakwa itararangira hari ipoto ririho insinga nyinshi zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye hari inyubako zasoje zifite amakaro asa neza ndetse n'amarange y'amoko atandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga n'imodoka ndetse na moto hari inyubako zubatse mu mabara atandukanye, ifoto iriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru ndetse n'umutaka n'umu ajenti wa emutiyeni.

Hari ibyapa byamamaza ibintu bitandukanye ibikoreshwa mu kwerekana amerekezo y'umuhanda, imodoka ndetse na moto biri mu muhanda, amatara yo ku muhanda, ku nkeyongero z'ibiti hari ubwoko bw'ibiti bitandukanye. Abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru.

Amazu afite amarange y'ibara ry'umuhondo, afite amabati y'ubwoko butandukanye yubatse muri forome zimwe. Imbere n'inyuma yayo hari ibiti by'ubwoko butandukanye, ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi muri izo ngo.

Aha ni ahantu hashyirwa ibiti ndetse n'indabo biterwa ku muhanda, mu rwego rwo kubivomerera ndetse bakabishyiramo n'ifumbire kugira ngo bibashe kumera neza bizane n'imizi, mu kwirinda ko byazaterwa ku muhanda nyuma y'igihe gito bikaba byumye bibanza gushyirwa aha hantu kugira ngo bibashe kumera neza nibigera ku muhanda bizakure neza.

Igipangu cyubakishijwe amabuye asanzwe ndetse n'ayandi matafari ahiye, hari ipoto ririho amatara yo ku muhanda, insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inyubako ifite amabati y'umutuku ndetse n'urukuta rusize irangi ry'umweru, hari igipangu gifite porotaye y'umukara, ndetse hari n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi munce zitandukanye, hejuru y'inyubako hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Hano hari imodoka ya ambiranse ikoreshwa kwa muganga mugihe itwaye umurwayi ufite ikibazo kihutirwa cyangwa se urembye cyane, inyuma yayo hateye indabo mu mabara atandukanye haba iz'umuhondo ndetse niz'icyatsi.

Umuhanda urimo moto ndetse n'imodoka yamamaza inzoga ya henikeni mu ibara ry'icyatsi, hari kandi n'icyapa cyerekana aho imodoka cyangwa se moto bigomba guhagarara mu gihe bagiye kwakira cyangwa se gushyira hasi umugenzi, hari inyubako yo kwa muganga herekana ahari materinite.

Ku bitaro bya masaka hari abaganga bakora muri serivisi zitandukanye z'ubuvuzi, ndetse n'abarwayi bafite indwara zitandukanye, imbere yayo hari jaridi irimo indabo zisa neza zifite amabara atandukanye.

Hari indabo zifite amabara y'umuhondo, hari ibiti, amabati afite ibara ry'umutuku ndetse n'iry'umweru, ku ruhande hari umudamu wambaye ipantaro y'icyatsi ndetse n'ishati y'umweru.

Ku bitaro by'Umwami Faisal hari abantu barihangana mu gusaba serivisi zitandukanye, imbere yabyo hari jaride irimo indabo z'ubwoko butandukanye ndetse hari n'idarapo ry'Igihugu cy'u Rwanda.

ku bitaro bya Nyarugenge byubatse neza kandi bisa neza, hari jaride zirimo indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, hari inkuta zubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibyapa biyobora abarwayi mu duce dutandukanye bitewe n'aho bagiye gufatira imiti.

Hano hari inyubako zo mu mabara y'umuhondo amadirishya y'umweru ndetse n'izindi zubakishije amatafari ahiye, hari kandi jaride irimo ibyatsi ndetse n'indabo zo mu bwoko butandukanye, hari kandi n'abacunga umutekano muri izi nyubako.

Abagabo n'abagore bari mu cyumba cy'uruganiriro gisize irange ry'umweru kirimo amatara ari kwaka, bicaye ku meza n'intebe by'umukara. Ayo meza ateretseho amazi yo mu macupa yo kunywa ndetse na mudasobwa.

Inzego zishinzwe umutekano ziri kumwe n'ikigo k'igihugu gishinzwe ubugenzacyaha mu Rwanda Ribu zifite umugabo wambaye ikositime y'ubururu ishati y'umweru ndetse na karuvati y'umutuku wambaye amapingu, bamwinjiza mu nyubako kugira ngo abashe kuburanishwa mu byaha akekwaho cyangwa se aregwa.

Abagororwa bambaye imyenda ifite ibara ry'iroza bafite ibikoresho bitandukanye igitiyo, utudomoro ndetse n'ingorofani. Impande yabo hari igikuta kirekire cyubakishije udutafari duhiye kirimo n'ibara ry'umuhondo.

Abagororwa mu ngeri zitandukanye haba abagabo, abasore, abagore ndeste n'abakobwa, hari abambaye imyenda ifite ibara ry'iroza ndetse n'abambaye indi myenda itandukanye. Bari mu gipangu cyubakishije amatafari ahiye.

Abashinzwe umutekano bakora murwego rw'ubugenzacyaha RIB bari kumwe n'umugabo wambaye ishati ifite ibara rya burusiyeri ndetse namarineti y'umukara.

Igororero ry'abagore ryiyubakishije amatafari ahiye, arimo amarangi y'umuhondo, hari porotayi ifite ibara ry'umukara n'iry'umuhondo, abagororwa bambaye amakanzu, ifite ibara ry'iroza abacungagereza bambaye amapantaro, amashati, ndetse n'ingofero bifite ibara rya kaki, n'inkweto z'umukara.

Hano hari igororero ririmo abagororwa batandukanye bambaye imyenda itandukanye bafite umucungagereza umwe ndetse bari no mu mirimo itandukanye.

Igororero ryo mu karere ka Huye rifite porotaye yubakishije amabuye asanzwe ndetse n'urupangu rufite ibara ry'umukara, mo imbere harimo jaride ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye, abacungagereza bambaye ingofero, amashati ndetse n'amapantaro afite ibara rya kaki.

Gereza ya Nyarugenge yubakishije amatafari ahiye harimo amabara y'umuhondo porotayi ifite ibara ry'umukara n'iry'umuhondo. Hari umucungagereza umwe ndetse n'abagororwa babiri.

Abagororwa bambaye imyenda ifite ibara ry'iroza, amashati ndetse n'amakabutura, bambaye udupfukamuwa. Hari imodoka zishinzwe kubatwara mu magororero agiye atandukanye ndetse n'abacungagereza bambaye amapantaro, amashati ndetse n'ingofero bifite ibara rya kaki.

Igororero rya Rwamagana rifite porotaye yirabura, ibyuma bifashe ahantu hubakishije udutafari duhiye mo imbere mu igororero hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hirya yaho hari inzu ifite amabati atukura.

Abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi bambaye imyenda y'ubururu hariho idarapo ry'u Rwanda, bambaye ndetse n'inkweto zifite ibara ry'umukara, bafite imbunda mu ntoki. Inyuma yabo hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Igikoresho kifashishwa mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, haba iyatewe na gaze cyangwa iyatewe n'umuriro w'amashanyarazi, hasi hari agakoresho gashyirwamo imyanda yakoreshejwe mu bintu bitandukanye.

Ibikoresho bya kizimyawoto hari amacupa abiri rifite ibara rya kaki ndetse nirifite ibara ry'umuto ryifashishwa mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro haba iyatewe n'umuriro w'amashanyarazi cyangwa se gaze bikaba bishyirwa mu mashuri mu bigo bya gisirikare ndetse no kwa muganga.

Abanyeshuri mu ngeri zitandukanye haba abakobwa ndetse n'abahungu bari kumwe n'ababishinzwe, mu kwigisha abanyeshuri uburyo umuntu ashobora kwifashisha kizimyamwoto mu kuzimya igihe ahantu hafashwe n'inkonyi y'umuriro itewe na gaze.

Hano hari amacupa abiri y'ibikoresho byitwa kizimyamoto. Byifashisha mu kuzimya umuriro, mu gihe hari ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, haba kwa muganga, ku mashuri, mu rusengero, ndetse n'ahandi hatandukanye.

Abantu bari mu ngeri zitandukanye bari mu gikorwa cyo kwiga uburyo umuntu ashobora kuzimya gaze mu gihe iri mu nzu igafatwa n'inkongi y'umuriro bakoresheje igikoresho bita kizimyamwoto kifashishwa mu kuzimya ahantu hose hafashwe n'inkongi y'umuriro, haba itewe na gaze ndetse n'itewe n'umururo w'amashanyarazi.

Umuhanda urimo abashinzwe umutekano wo mumukanda hari imodoka z'amabara atandukanye, hari abagenzi bakoresha amaguru, hari indabo ndetse n'ibiti ku muhanda.

Iyi ni ingabo y'igihugu mu bijyanye n'umutekano mu muhanda, iri kumwe n'umuntu utwaye imodoka, ireba niba yaba afite ibyangombwa bimwemerera gutwara ikinyabiziga cyangwa se hari uko yaba yagenze nabi mu mitwarire ye y'imodoka.

Ibikoresho bita kizimyamwoto byifashishwa mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, haba iyatewe na gaze cyangwa iyatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Ni amacapa abiri, hari irifite ibara ry'umutuku ndetse n'irifite ibara rya kaki.

Igikoresho bita kizimyamwoto kifashishwa mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro haba iyatewe na gaze cyangwa se iyatewe n'umuriro w'amashanyarazi, gikoreshwa ahantu hatandukanye haba ku bigo by'amashuri, ku bigo bya gisirikare ndetse no kwa muganga.

Umuhanda urimo moto ndetse n'imodoka y'abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi ku nkengero z'umuhanda hari ipoto iriho amatara yo ku muhanda ndetse n'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi harimo abagab,o abagore, abakobwa ndetse n'abasore bambaye ingofero amashati ndetse n'amapantolo afite ibara ry'ubururu bambaye inkweto zifite ibara ry'umukara.

Imbere yanjye ndahabona dayihatso y'umweru iri kugenda muri kaburimbo. Ifite karisoro, ikaba ipfutse na shitingi y'ubururu. Hirya yaho hari jaride y'ibiti.

Hano hari abashinzwe umutekano wo mu muhanda, babiri bahagaze imbere y'akazu kicaramo abagenzi bategereje imodoka zibatwara mu bice bitandukanye, hari ibiti hafi y'umuhanda.

Mu muhanda harimo ubwoko bw'ibinyabiziga bitandukanye haba moto ,imodoka ndetse n'amagare hari abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru mu kwambukiranya umuhanda bajya mu wundi indabo ndetse n'ibiti biterwa ku muhanda amatara yo ku muhanda hari abashinzwe umutekano wo mu muhanda .

Mu bakozi babishinzwe mu kuzimya ahantu hafashwe n'inkongi y'umuriro, haba iyatewe na gaze cyangwa se n'umuriro w'amashanyarazi. Bambaye amapantaro ndetse n'amashati afite ibara ry'umukara, ariko harimo n'akabara k'umuhondo.

Hano hari umurongo w'abantu batandukanye, haba abagabo ndetse n'abagore, n'abakobwa, n'abasore. Bari bari muri serivise zijyanye no gutora umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu.

Umukuru w'igihugu ari kumwe n'abaturage bazamuye amabendera y'ishyaka rya efuperi. Yambaye isaha ku kuboko, yambaye amarinete, yambaye ishati irimo amabara y'ishyaka rya efuperi umutuku, umweru ndetse n'ubururu bwa burusiyeri.

Hari abagabo babiri bambaye kositime z'ubururu n'amashati y'umweru n'abadamu bambaye imikenyero. Bose bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda bazamuye ukuboko kw'iburyo ukwi bumoso gufashe ku idarapo.

abadamu bambaye imikenyero ifite amabara atandukanye bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u rwanda n'akaboko k'ibumoso ak'ibiburyo kamanitse hejuru mu kurahira mu nshingano z'akazi gatandukanye

Ku kigo cya ji esi Kimironko ya mbere, hari ibitambaro biri mu mabara y'umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu yo mu idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Hari ababyeyi batandukanye bigaragara ko hari ku munsi wo gusura abanyeshuri.

Amatente ari mu mabara y'abagize ishyaka rya efuperi inkotanyi hari jaride irimo ibyatsi ndetse n'umukuru w'igihugu cy'u rwanda paul kagame wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara hari abashinzwe umutekano mu rwego rwa sitiyu.

Abagize ishyaka rya efuperi inkotanyi mu gikorwa cyo kwamamaza umukuru w'igihugu baherereye mu mudugudu wa radari harimo abagabo abagore abakobwa ndetse n'abasore bambaye imyenda igaragaza ishyaka rya efuperi umutuku, umweru, ndetse n'ubururu.

Hano hari uruhurirane rw'abagize ishyaka rya Efuperi Inkotanyi, bafite amadarapo arimo ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru. Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara. Hari abashinzwe umutekano mu rwego rwa Sitiyu.

Ifoto ya polo kagame perezida wa repubulika y'urwanda, afite agapapuro ndetse ari gushyira mu gasanduku hari mu igikorwa cyo gutora umukuru w'igihugu cy'U Rwanda, inyuma ye hari ifoto irimo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'ibirunga

Abagize ishyaka rya fpr batangiye gikorwa cyo kwamamaza hari n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame wambaye ingofero y'umukara ndetse n'umupira w'umweru byose bigaragaza ishyaka rya fpr.

Abagabo babiri harimo uwambaye ikositimu y'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karuvatiumutuku bambaye ikositimu y'ubururu, ishati y'umweru ndetse na karuvati y'ubururu, abadamu bambaye imikenyero, bose bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda mu kurahira mu inshingano zitandukanye.

Hari abagore ndetse n'abagabo bahuriye ahantu hamwe bambaye imyenda igaragaza amabara y'ishyaka, rya efuperi ndetse bafite n'amadarapo mu ntoki byose bigaragaza ishyaka rya efuperi.

Ihuriro ry'abagize ishyaka rya fpr inkotanyi bari mu ngeri zitandukanye, haba abakobwa, abasore, abagabo ndetse n'abagore. Bambaye imyambaro igaragaza ishyaka rya fpr ndetse n'amadarapo ari mu ibara ry'umutuku, umweru ndetse n'ubururu.

Uruhurirane rw'abagize ishyaka rya efuperi (FPR) inkotanyi ,bafite amadarapo arimo ibara ry'ubururu, umutuku ndetse n'umweru hari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame wari kumwe n'abashinzwe umutekano haba mu rwego rwa porisi ndetse mu rwego rwa gisirikare.

Umugabo n'umugore bafashe ku idarabo ry'igihugu cy' u Rwanda n'ukuboko kw'ibimoso ukw'iburyo kurazamuye mu kurahira inshingano zitandukanye, hari umudamu wambaye imikenyero ndetse n'umugabo wambaye kositime y'ubururu n'ikazu y'umweru bigaragara ko ari umuyisilamu.

Hano hari umukandida Muhayimana Filipe wiyamamarizaga kuba umukuru w'igihugu ari kumwe n'abamuherekeje batandukanye, hirya ye hari inzu ifite uruzitiro rw'imiyenzi ndetse hari n'umuhanda w'igitaka.

Abaturage bagize ishyaka rya efuperi inkotanyi, hari dekorasiyo mu mbara y'ishyaka rya efuperi ririmo umutuku, umweru ndetse n'ubururu, hari abashinzwe umutekano mu rwego rwa polisi, mu rwego rwa sitiyu ndetse no mu rwego rw'abasirikare.

Hano ni umunsi hatorwaga umukandida ku mwanya w'umukuru w'igihugu, aho utora yanyuraga kubabishinzwe agahabwa agapapuro kariho abakandida agatora akoresheje igikumwe cyangwa se ikaramu agasinya cyangwa agatera igikumwe k'uwo ashaka gutora.

Umuhanda harimo umumotari ndetse n'imodoka itwara imizigo mu duce dutandukanye. Ku nkengero zawo hari ibiti biri mu moko atandukanye, ndetse n'imodoka zambukiranya umupaka.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga, harimo imodoka itwara abagenzi mu duce dutandukanye yo mu bwoko bwa Litiko. Hari umunyonzi wambaye ijire igaragaza kampani abamo, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti ndetse n'indabo ziterwa ku muhanda.

Umuhanda urimo abanyonzi ndetse n'abamotari batwaye abagenzi, imodoka zitwara imizigo ndetse n'abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, hari ibiti by'ubwoko biteye ku nkengero z'umuhanda, amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Umuhanda urimo ikimodoka gitwara imizigo mu bice bitandukanye bifite amabara y'icyatsi, umuhondo ndetse hari kandi n'umugabo uri gucunga ipine ry'imodoka n'ubundi ufite umuzigo kurutugu ku bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru.

Ni mu masaha ya ni mugoroba hari moto ndetse n'imodoka biparitse hepfo y'umuhanda, hari icyapa cyamamaza telefone za tekino ndetse n'umutaka ukoreramo umu ejenti wa emutiyene mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umu ajenti wa eyateri mu ibara ry'umutuku.

Umuhanda urimo imodoka ndetse n'abashinzwe umutekano wo mu muhanda. Ku nkengero z'umuhanda hari iguriro ry'abampotari baparitse. Hari kandi n'ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda ndetse n'inyubako zubatse mu bwoko butandukanye, n'amatara yo ku muhanda.

Ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye, mu muhanda harimo imodoka yo mu bwoko bwa rivani itwara imizigo mu bice bitandukanye, hari kandi n'umudamu uhagaze mu nzira yagenewe abanyamaguru, ufite ibicuruzwa by'ibisheke.

Umuhanda harimo imodoka ndetse na moto itwaye abagenzi, hari abari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru ndetse n'abatwaye amagare, hari ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Iki ni ikinyabiziga cy'imodoka kiri mu muhanda, gitwara ibyerekeranye n'imizigo kibitwaye mu bice bitandukanye, gifite hejuru umukarani ushinzwe gupakira ndetse no gupakurura imizigo bikoreye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bya moto bitwaye abagenzi mu bice bitandukanye ku nkengero z'umuhanda hari inyubako ifite urupangu rufite irangi by'ibara ry'umweru hari amafoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo abamotari batwaye abagenzi mu bice bigiye bitandukanye, abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru ndetse hari n'imodoka, inyubako zubatse ku nkengero z'umuhanda muri dizayine z'ubwoko butandukanye.

Imodoka ndetse na moto zitwaye abagenzi bari mu muhanda, ku nkengero z'umuhanda hari amatara yo ku muhanda ndetse n'isinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, ruguru no hepfo y'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Parikingi y'imodoka hari kwasiteri ndetse n'amatagisi, inyuma yayo hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko bwishi ndetse hari n'umunara utanga netuwaka n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda uri kujya mu byerekezo bitandukanye, harimo imodoka ndetse na moto hari kandi n'abagenzi bari kwambukiranya umuhanda banyuze mu nzira yabugenewe, amatara yo ku muhanda ndetse n'ibyuma biromo amapoto atwara umuriro w'amashanyaraz,i hejuru y'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye.

Imodoka yo mu bwoko bwa ritiko, amabara y'icyatsi, umweru ndetse n'ubururu itwaye abagenzi mu bice bitandukanye, hari kandi n'umugabo ufite umuzigo ku bitugu uri gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru.

Ku nkengero z'umuhanda hari inyubako ya etaje mu mabara y'umuhondo, hari kandi n'abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru, imodoka ziparitse imbere y'inyubako, ibiti by'ubwoko bwose biteye ku nkengero z'umuhanda.

Mu muhanda hari moto itwaye umugenzi, har'ibiti n'amatara yo ku muhanda. Impande y'umuhanda hari jaride irimo ibyatsi ndetse n'indabo zifite ibara ry'umuhondo.

Hari abamotari batwaye abagenzi mu bice bitandukanye, imodoka haba izitwara imizigo, izitwara gaze, hari imodoka itwaye imbaho, inyubako ifite amabara y'umuhondo imbere yayo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda.

Mu muhanda hari moto zitwaye abagenzi, zino moto ishinzwe kuderivaringa ibintu bitandukanye bitewe n'abakoze ku muhanda, abanyonzi, ndetse n'inzira yagenewe abanyamaguru. Hari imodoka itwara imizigo y'ubwoko butandukanye, haba imicanga ndetse n'ibindi.

Umuhanda urimo imodoka ifite ibara ry'ubururu, ishinzwe gutwara ibikoresho bitandukanye ahantu hatandukanye, haba amabati ndetse n'ibindi harimo moto ifite umugenzi ndetse n'abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru, ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti by' ubwoko butandukanye.

Taxi yo mubwoko bwa yego kabu ifite amabara umutuku, umukara ndetse n'umweru, hepfo yayo hari igipangu gifite amabara y'umuhondo ndetse n'icyatsi hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Hano hari umuhanda ufite inyubako ya etaje ufite abagenzi batandukanye bagiye mu bice bitandukanye ufite ibinyabiziga bitandukanye haba moto, imodoka ndetse na rifani.

Hano hari inyubako itanga ibijyanye na serivisi za telefone haba ifinigisi ndetse na samusangi hanze yinyubako hari imodoka za yego kabu ndetse n'abantu batandukanye bakeneye serivisi zitandukanye.

Imodoka ziri mu moko atandukanye haba iziri purayiveti ndetse n'izitwara abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, amapoto ariho amatara yo ku muhanda, ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi inyubako zubatse muri dizayini z'ubwoko butandukanye.

Hano hari umuhanda urimo ibinyabiziga by'imodoka zitandukanye, ufite jaride ndetse n'ibiti ku muhanda ukaba ufite n'amatara ku muhanda.

Hano hari umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye. Hari igare, hari moto, hari imodoka ya purayiveti, hari n'indi itwaye imizigo. Hari amatara ku muhanda, hari inzu zubatse ku nkengero z'umuhanda, ndetse n'ibiti biri hirya y'umuhanda by'ubwoko butandukanye.

Parikingi irimo imodoka zitandukanye, harimo imodoka yo mu bwoko bwa sitela. Itwara abagenzi mu bice bitandukanye, ikaba ari imodoka nziza igendera ku gihe ndetse idatinza abagenzi mu nzira.

Hano hari savisi senta za emutiyene hakaba hari parikingi z'ibinyabiziga bya moto abagenzi batandukanye ndetse n'abantu baje gushaka serivisi zitandukanye za emutiyene.

Umuhanda urimo imodoka itwara imicanga ifumbire n'ibindi ahantu hatandukanye, harimo umumotari wambaye kasike y'umutuku umupira w'umweru n'ipantaro y'ikoboyi ifite ibara ry'ubururu, hari ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda urimo ubwoko bw'imodoka ya yego kabu ndetse n'izindi modoka za purayiveti mu mabara atandukanye, hari abamotari batwaye abagenzi, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti bitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka zo mu bwoko butandukanye, haba refani, izitwara imizigo ndetse n'ibindi, hari kandi n'umuyonzi ndetse n'abaturage bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru.

Inyubako ziri mu bwoko butandukanye ziri ku nkengero z'umuhanda abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, imodoka ndetse na moto zitwaye abagenzi biri mu muhanda, amatara yo ku muhanda yatse bigaragara ko ari mu gihe cya nimugoroba, insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Parikingi y'imodoka zitwara abagenzi mu bice bitandukanye, hari abaturage bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru mu kwirinda kujya mu muhanda bakaba bateza impanuka, hari kandi ibyapa biriho umurongo w'itumanaho wa Eyateli ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Mu masaha ya nimugoroba amatara yo ku muhanda arika, ku nkengero z'umuhanda haparitse abamotari bafite moto z'ubwoko butandukanye, hari kandi n'imitaka ikoreramo aba ajenti ba emutiyene, ihagaritse ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga moto zitwaye abagenzi ndetse n'imodoka zo mu bwoko bwa rifani, hari inyubako ndende ya etaje imbere yayo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye, ipoto ririho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, inzira yagenewe abanyamaguru ndetse n'akazu kamamaza umurongo w'itumanaho wa Eyateli.

Mu muhanda harimo ibinyabiziga n'imodoka ndetse n'amagare, hariho abantu batwaye imizigo y'ibirayi mu duce dutandukanye. Ku nkengero z'umuhanda hari amatara ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo imodoka ifite ibara ry'umweru ndetse n'iry'ubururu. Ikaba utwaye inka z'inzungu. Mu mabara y'umweru ndetse n'ay'umukara. Ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo ikimodoka gishinzwe gutwara imizigo mu duce dutandukanye, hejuru y'umuhanda hari inyubako zifite amabara y'umuhondo ndetse n'umweru, hepfo yaho hari ibiti ndetse n'ibyatsi by'amoko atandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nk'imodoka, moto ndetse n'igare rihetse ibicuruzwa nk'amavuta, umuceri ndetse n'ibindi. Hari inzira iri gukoreshwa n'abanyamaguru ndetse hari n'ibicuruzwa bya gaze ku nkengero z'umuhanda.

Imodoka ikinyobwa bita Uruvange, ifite ibara rya umweru . Kunkengero z'umuhanda hari amatara yo ku muhanda ndetse na ibiti biterwa kumuhanda, insinga zitwara umuriro wa amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Hano hari umuhanda ukikijwe n'ibiti bitandukanye, urimo ibinyabiziga bitandukanye amagare ndetse n'imodoka iri mu bwoko bwa jagwa, abagenzi batandukanye bitewe n'ibice bagiyemo.

Umuhanda urimo ibinyabiziga hari moto zitwaye abagenzi ndetse n'igare ritwaya umugenzi, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye, hirya y'umuhanda haparitse imodoka zitandukanye, haba izitwara imizigo ndetse n'ibindi.

Umuhanda urimo imodoka ziri kujya mu byerekezo bitandukanye. Ku nkengero zawo hari ibiti by'ubwoko butandukanye, hari umugenzi uri kunyura mu nzira y'abanyamaguru, wambaye ingofero ya pinki, yambaye ishati n'ipantaro, ndetse n'inkweto z'umuhondo.

Umuhanda urimo imodoka itwara ibijyanye n'ifumbire, umucanga, garaviye n'ibindi harimo umuajenti wambaye ijiri y'umurongo w'itumanaho wa emutiyene ari kumwe n'umugabo wambaye igisarubeti k'icyatsi n'inkweto z'umuhondo.

Umuhanda urimo ikimodoka gitwara ibijyanye n'imizigo, muduce dutandukanye harimo kandi umumotari. Hari umuhanda wagenewe kunyurwamo n'abakoresha amaguru, mu nkengero z'umuhanda hari amatara yo ku muhanda hateye n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo abagenzi bakoresha amaguru berekeza mu bice bitandukanye, ufite n'ikinyabiziga k'imodoka gitwaye abagenzi mu bice bitandukanye ukaba ufite n'ibiti biteye ku nkengero zawo.

Umuhanda harimo imodoka itwara imizigo, moto itwara abagenzi ndetse n'iyindi itwara derevare mu bice bigiye bitandukanye, hari kandi n'abagenzi barimo n'umukarani bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu muhanda hari imodoka, hari moto byose biri kujya mu byerekezo bitandukanye, hari ibiti by'ubwoko butandukanye, hari icyapa cyamamaza inzoga ya mitsingi.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi mu bice bitandukanye, hari umugenzi uri gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye, amatara yo ku muhanda ndetse n'isinga zitwarariro w'amashanyarazi.

Umuhanda urimo imodoka itwara abagenzi mu duce dutandukanye ifite ibara ry'umweru n'ikindi kimodoka gifite ibara ry'umuhondo gitwara ibintu by'ubwoko butandukanye ku nkengero z'umuhanda hateye ibiti.

Umuhanda urimo imodoka zitwara abagenzi mu bice bitandukanye hari kandi n'inyubako iriho ibyapa byamamaza umurongo w'itumanaho wa emutiyene icyapa cyamamaza isabune ya okisi ikesha imyenda kandi ikuramo n'ibizinga.

Ni mu masaha ya ni mugoroba, amatara yo ku muhanda ari kwaka, hari insinga zitwara umuriro w'amashanyazi mu bice bitandukanye, imodoka zitwara abagenzi haba iziri mu bwoko bwa stela, ndetse n'izindi, abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru.

Ku nkengero z'umuhanda hari inyubako ikorerwamo ibikorwa bitandukanye ndetse n'umuryango ukoreramo ikigo cy'ubwishingizi mu Rwanda cya sangaramu, hari kandi amafoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insiga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hari imodoka yo mu bwoko bwa rifani ndetse na moto biri mu muhanda.

Hano hari umuhanda urimo ikinyabiziga cy'imodoka, gishinzwe gutwara ibicuruzwa bya esipegaze biri mu bwoko butandukanye, haba iby'ibiro bitandatu ndetse n'ibyisumbuyeho.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'imodoka yo mu bwoko bwa toyota, hari umunyonzi utwaye umugenzi, hari igice kigaragaza aho abanyamaguru banyura, ku inkengero z'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye, hari kandi ni ipoto ririho itara ryo ku muhanda ndetse n'intsinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umuhanda harimo umumotari utwaye umugenzi, hepfo hari amazu afite amabati y'umutuku ndetse n'ibipangu bifite ibara ry'umweru, hari ifoto iriho itara ryo ku muhanda ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Umuhanda urimo imodoka z'ubwoko butandukanye. Hari imodoka ifite ibara ry'icyatsi, yo mu kigo cyigisha amategeko y'umuhanda ndetse no gutwara ibinyabiziga. Hari abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru ndetse n'amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo moto itwaye umugenzi ndetse n'imodoka itwara ibijyanye n'imizigo, n'ibindi bikoresho nk'amabati, ndetse n'ibyuma byose byifashishwa mu bijyanye n'ubwubatsi, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cy'imodoka ya rifani zifashishwa mu gutwara imizigo ahantu henshi hatandukanye, harimo kandi n'umu motari ndetse n'umuyonzi uhetse umufuka w'ibirayi bose bari kujya mu byerekezo bitandukanye, ku nkengero z'umuhanda hari ibiti ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Mu muhanda harimo umu motari wambaye kasike y'umuhondo ndetse n'ijire y'umuhondo, hari ibiti n'indabo byagenewe guterwa kumuhanda .Amatara ashyirwa k'umuhanda ,ibiti byo mu bwoko butandukanye biterwa mwishyamba.

Umuhanda urimo imodoka itwaye abagenzi mu duce dutandukanye ariko yamamaza ibijyanye na BK mugucunga konte kunyengero zaho hateye ibiti ndetse hari n'amapoto ariho amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo imodoka ziri kujya mu byerekezo bitandukanye, hari abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru. Umunyonzi utwaye ibicuruzwa by'ubwoko butandukanye ku igare, haba ibitoki, amakarito ndetse n'umufuka urimo ibirayi. Ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Hano hari ikibuga kirimo abakinnyi batandukanye, b'amakipe atandukanye, gifite ibiti bigikikije ku muhanda.

Hano hari ikibuga gikinirwaho umukino wa basikete gikikijwe n'ibiti bitandukanye gifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye.

Icyapa kifashishwa mugihe bari kwiga amategeko y'umuhanda, kigaragaza ko imbere mu muhanda hari rompuwe. Kiri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara inyuma yacyo hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda hariho inyubako, ibiti ndetse ndabona ubwoko butandukanye hari ikinyabiziga cya moto, hari amatara ndetse n'ipoto rishinzeho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye.

Inyubako ndende ya etaje kandi nziza imbere yayo hari umuhanda uriho ibyatsi ndetse n'indabo byagenewe guterwa kumuhanda, hirya yayo hari ishyamba ririmo ibiti bitandukanye. Hari ipoto ririho icyapa cyamamaza holidays.

Ubu ni uburyo bwiza buri mu Rwanda kandi bumazemo igihe, buzwi nka manigaramu cyangwa wesiterini yuniyoni ubu buryo rero bumaze igihe bufasha abantu kohereza amafaranga mu mahanga cyangwa kubikuza amafaranga bohererejwe n'umuntu uri mu mahanga mu buryo bwiza kandi bwihuse, kandi bufite umutekano k'uko bimenyerewe hano mu urwanda.

Umudugudu wa Rambura ufite umuhanda wa kaburimbo hari abagenzi bari gukoresha umuhanda w'abanyamaguru, ibyapa ndetse n'amatara yo ku muhanda, hari ibiti ndetse n'amazu ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nimodoka hari abagenzi bari gukoresha umuhanda wagenewe abanyamaguru amatara yo kumuhanda icyapa cyerekana ko hari imihanda iri kunyuranamo.

Mu muhanda harimo abamotari, hari ibiti biterwa ku muhanda ndetse n'indabo, hari ibyapa byifashishwa nu mategeko y'umuhanda, bishyirwa ku nkengero z'umuhanda, indabo ndetse n'ibyatsi biterwa ku muhanda.

Icyapa gishyirwa ku muhanda gikoreshwa mu bijyanye n'amategeko y'umuhanzi gifite amatara ari mu mabara atandukanye umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi, umutuku ugaragaza ko ibinyabiziga bigomba guhagarara, umuhondo biri kwitegura kugenda ibyatsi bigatangira bikagenda.

Hano hari umuhanda ukikijwe n'ibiti, imisozi, ibyatsi ndetse n'abagenzi bari mu muhanda n'ibyapa biri ku muhanda, amatara byose bigaragaza akarere ka Karongi.

Hano hari umuhanda urimo amatara ndetse n'ibiti bitandukanye biterwa ku muhanda harimo ibinyabiziga bitandukanye, ndetse n'icyapa kigaragaza aho imodoka igomba guhagarara, mu gihe igiye gushyiramo cyangwa se gukuramo umugenzi.

Hano hari ubwoko bw'ibiti bitandukanye, hari amazu atandukanye ndetse afite n'amabara y'amabati atandukanye, hari n'inyubako y'amahoro sitadiyumu.

Hano hari umuhanda hirya yaho hari inzu ya etaje irimo imiryango myinshi ikorerwamo ibikorwa byinshi bitandukanye haba serivise zijyanye terefone za samusange n'ibindi, hari ibinyabiziga by'ubwoko butandukanye haba moto ndetse n'imodoka.

K'umuhanda harimo moto iriho umumotari hepfo yayo hari igipangu gifite porutaye y'umukara cyubakishije amatafari ahiye impande yayo hari ibiti byubwoko butandukanye.

Inyubako nziza yubatse neza muri dezayini z'ubwoko butandukanye, imbere yayo hari indabo ndetse n'ibito biterwa kumuhanda, hari insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Umudugudu urimo amazu yubatse mu bwoko butandukanye hari abamotari, n'imodoka, umuhanda w'igitaka n'ibiti by'ubwoko butandukanywe biteye muri uyu mudugudu.

Inyubako nini etage irimo ibikorwa by'ubwoko butandukanye, imbere yayo hari amapoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, mu muhanda harimo imodoka ndetse na moto, abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, ibyapa byo ku muhanda bigaragaza amerekezo atandukanye.

Hano hari inyubako z'amazu, haba amazu ya etage ndetse n'andi atari etaje, inyuma y'amazu hari ishyamba, hari ibiti by'ubwoko bitandukanye ndetse muri aya mazu, harimo inzu y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere mu Rwanda.

Inyubako ifite urupangu rwubakishije amabuye n'amatafari ahiye, ndetse na fondasiyo yubakishije amabuye asanzwe, hanze yayo hari ibyatsi bitandukanye ndetse n'ibiti biterwa ku muhanda.

Umuhanda urimo abagenzi imodoka ndetse na moto ziri kujya mu bice bitandukanye, hari kandi inyubako zubatse ku nkengero z'umuhanda amatara yo ku muhanda ndetse n'imbuto ziriho izga zitwara umunriro w'amashanyarazi, hari kandi n'umutaka ukoreramo umu agent wa eyateri.

Inyubako iri mu mabara atandukanye umukara ndetse n'umweru, imbere yayo haparitse imodoka z'ubwoko butandukanye ziri mu mabara atandukanye, haparitse na moto iriho umumotari, hari indabo zishyirwa ku nzu.

Umuhanda urimo umumotari haruguru y'umuhanda hari inyubako iri mu mabara meza y'umweru ndetse n'umutuku hari kandi na jaride irimo indabo n'ibiti by'ubwoko butandukanye hari kandi n'ipoto ririho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga ziri gutwara umuriro w'amashanyarazi.

Hano hari umudugudu wa Kimironko ukaba urimo amazu atandukanye afite amabara amabara y'amabati ndetse n'imiterere itandukanye, hakaba hateyemo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umurenge wa ndera hari amazu yubatse muri dizayine z'amoko atandukanye, ibiti bitewe hagati y'uyu murenge ndetse n'ibyuma biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi muri uyu mudugudu, hari izifite amabati afite ibara ry'umutuku ndetse n'ayandi.

Umuhanda urimo imodoka ndetse hari n'igice kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kunyura habugenewe batanyuze mu muhanda hagati, mu rwego rwo kwirinda impanuka. Ku nkengero z'umuhanda hari ishyamba rifite ibiti byera indabo z'umuhondo ndetse n'ibindi.

Inyubako ndende ya etaje yubatse ku nkengero z'umuhanda hari amatara yo ku muhanda, amapoto ashinzeho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye, hari kandi abamotari bari mu muhanda batwara abagenzi, imodoka za purayiveti n'izindi, hari ibicuruzwa bya gaze biri kuri iyo nyubako, hari n'abagenzi bari kujya mu bice bitandukanye bakoresheje amaguru.

Hano hari amazu yubatse mu gace kamewe akaba afite ubwoko bw'amabati butandukanye ariko yubatse muri fomu zimwe hakaba hari n'umunara utanga netiwake muri aka gace amazu yubatswemo.

Hano hari umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye. Haba moto zitwaye abagenzi, imodoka zitwaye abagenzi, ndetse n'izindi modoka zitwawe n'abantu ku giti cyabo. Abanyamaguru bari kugenda mu bice bitandukanye, amatara ku muhanda, ndetse n'amazu ari ku muhanda.

Uyu ni umudugudu urimo amazu agiye atandukanye afite ubwoko bw'amabati butandukanye ndetse yubatse no mu buryo butandukanye haba amaetaje n'atari amaetaje hagati mu mazu higanjemo ibiti by'ubwiko bugiye butandukanye.

Inyubako ya etage yubatse neza, ikorerwamo ibikorwa by'ubwoko butandukanye, haba ibijyanye na bipiyara banka ndetse n'ibindi, hari imodoka ziparitse imbere y'iyi nyubako ndetse na moto ziri mu muhanda, abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, indabo ndetse n'ibiti biteye mu muhanda.

Ishyamba ririmo ibiti n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye, ipoto ririho itara ryaka ku muhanda, hicayemo abagabo babiri, uwambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara ndetse n'uwambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umweru.

Umudugudu urimo inzu zubatse mu bwoko butandukanye haba ama etaje ndetse ntiz'itari etaje, hateyemo ibiti by'ubwoko butandukanye ndetse n'amapoto ariho insinga zitwara amashanyarazi muri uyu mudugudu.

Umuhanda urimo ibinyabiziga ama moto ndetse n'imodoka hari inzira iri gukoreshwa n'abanyamaguru .Umutaka urimo mo umwagenti wa emutiyeni ( MTN)mu gutanga serivisi zitandukanye haba kugurisha amayinite, kubitsa ndetse no kubikuza amafaranga hari kandi n'amapoto ateretseho genereta itanga umuriro w'amashanyarazi mu bice bitandukanye.

Inyubako ya etaje isa neza mu mabara y'ubwoko butandukanye, imbere yaho hari ibiti bimera mu ishyamba ndetse n'ipoto ririho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye.

Hano hari umugabo ushinzwe umutekeno mu binjyanye n'amashyamba, hari ibiti by'ubwoko butandukanye haba inturusu, imigano n'ibindi, hari ikiraro cyubakishije amatafari ahiye.

Inyubako zubatse mu buryo butandukanye, hari izifite ibipangu, zifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru ndetse n'izubakishije kositara, kandi hari n'amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga ziri gutwara umuriro w'amashanyarazi muri uyu mudugudu, hari n'indabo ndetse n'ibiti biteye impande y'aya mazu.

Umuhanda urimo ikinyabiziga cya moto itwaye umugenzi, ukikijwe n'ibiti birimo ubwoko butandukanye, ukaba ari umuhanda ufite inzira y'abanyamaguru.

Mu muhanda harimo imodoka iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, itwara abagenzi mu bice bitandukanye, hari kandi n'umunyonzi uri kunyura mu nzira yagenewe abanyamaguru, ruguru y'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye hari imodoka zitwara imizigo, hari imodoka zo mu bwoko bwa rifani ndeste na moto, inyuma y'umuhanda hari ishyamaba ririmo ibiti bitandukanye, amatara yo ku muhanda ndetse n'inzira inyurwamo n'abagenzi bakoresha amaguru.

Umuhanda urimo amapoto ariho amatara yo ku muhanda, hari ibiti ndetse n'ibyatsi biterwa ku muhanda n'ibindi bimera mu ishyamba, hari ibyapa bigaragaza inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru, ndetse n'icyapa kigaragaza umujyi wa Kigali ahitwa Nyarugenge.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, ku inkengero zawo hari inyubako zifite imbere yazo imitaka ikoreramo abejeti b' Emutiyeni ndetse n'umutaka ukoreramo umwejeti w' Eyateli ,mu gutanga serivisi zitandukanye haba kugurisha ama inite ndetse no kubitsa no kubikuza amafaranga.

Umuhanda urimo abamotari batwaye abagenzi mu duce dutandukanye, hari igice kigaragaza inzira y'abanyamaguru bagomba kunyuramo mu gihe bari kwambukiranya umuhanda umwe bajya mu wundi, hari ibiti ndetse n'ibyatsi byagenewe guterwa mu muhanda ndetse n'ibindi bimera mu ishyamba. Hari amapoto ariho amatara yo ku muhanda.

Umuhanda urimo moto itwaye umugenzi imodoka ya purayiveti, ndetse n'iyindi itwara imizigo hari intebe yicarwamo n'abagenzi bategereje imodoka zibatwara mu bice bitandukanye, hari amatara yo ku muhanda ku nkengero z'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo imodoka haba izitwara imizigo hari moto, hari kandi n'ibyuma biriho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi mu duce dutandukanye, hari ibyapa byerekana amerekezo y'umuhanda ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye biteye ku nkengero z'umuhanda.

Umuhanda urimo imodoka zo mu bwoko bwa lifane zitwara imizigo ndetse n'izindi ziri private, hari kandi n'akazu kicarwamo n' abagenzi bategereje imodoka zibatwara mu bice bigiye bitandukanye. Kunkengero z'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, ahagaragara aho imodoka igomba guhagarara mu gihe igiye gukuramo cyangwa se gushyiramo umugenzi ndetse n'abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru.

Umuhanda ufite ibyerekezo bitandukanye, hari imodoka, na moto zitwaye abagenzi, ku nkengero zabo hari ibiti ndetse n'ibyatsi by'ubwoko butandukanye, hari ibyapa byo kumuhanda bigaragaza amerekezo y'umuhanda ndetse n'ibindi.

Uyu ni umuhanda ufite ibiti biterwa ku muhanda bitandukanye, ukaba ukikijwe n'ishyamba ry'ibiti, ufite amatara ndetse n'ibyapa byo ku muhanda urimo ibinyabiziga nka moto n'imodoka.

Umuhanda uri kujya mu merekezo atandukanye, haba ukata mu gice cy'iburyo ndetse n'ukata mu gice cy'ibumoso, hari imodoka zifite amabara atandukanye, ibyapa ndetse n'amatara yo ku muhanda, ibyatsi n'indabo biterwa ku muhanda, hari inzira yagenewe kunyurwamo n'abanyamaguru mu gihe bambukiranya umuhanda.

Ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo amato n’imodoka. Hari abagenzi bari gukoresha inzira y’abanyamaguru. Amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n’insinga zitwara amashanyarazi mu duce dutandukanye. Hari igice cyagenwe aho imodoka igomba guhagarara igihe igiye gushyiramo cyangwa gukuramo umugenzi, mugihe iri kugendera mu ruhande rw’iburyo.

Mu muhanda harimo moto itwaye umugenzi ndetse n'imodoka iri kujya mu byerekezo bitandukanye hari amatara yo ku muhanda ndetse n'izindi nka zitwara umuriro w'amashanyarazi ku nkengero z'umuhanda areshya harimo ibiti ndetse n'inda y'amoko atandukanye.

Umuhanda uri kujya mu byerekezo bitandukanye harimo umumotari utwaye umugenzi inkengero z'umuhanda hari amatara yo ku muhanda ibyapa, ndetse n'amafoto ariho insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, hari kandi n'ibiti biteye ku nkengero z'umuhanda by'amoko atandukanye.

Umuhanda urimo moto zitwaye abagenzi mu bice bitandukanye hari ahagaragara aho abanyamaguru bagomba kunyura mu gihe bari kwambukiranya umuhanda ku nkengero z'umuhanda harimo ishyamba rifite ibiti by'ubwoko butandukanye hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ibyapa byo ku muhanda .

Umuhanda urimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, abagenzi barimo gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru, hari sitasiyo ya gaze ikidekuye mu mabara y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda; ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi, ku nkengero z'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda w'igitaka, hateyeho ibiti ndetse n'indabo, haba izifite amabara y'umuhondo ndetse n'ay'icyatsi. Hari amazu yubatse mu bwoko butandukanye, hari ifite porotayi ifite urupangu rw'umukara. Hanze hari n'igiti cy'urubuto rw'ipapayi.

Umuhanda w'igitaka. Urimo imodoka yo mu bwoko bwa rifani. Itwara ibintu bitandukanye. Haba imizigo ndetse n'ibindi. Impande y'umuhanda hari inyubako zubatse mu buryo butandukanye, ibiti ndetse n'indabo, biteye ku muhanda.

Imihanda ibiri itandukanye, hari umuhanda unyura mu gice cy'iburyo ndetse n'unyura mu gice cy'ibumoso. Umuhanda harimo ibinyabiziga nk'imodoka z'ubwoko butandukanye. Hari ibiti ndetse n'indabo biterwa ku muhanda. Iyo mihanda iri kunyura mu ishyamba ry'ibiti bifite amoko atandukanye.

Umuhanda uri mu byerekezo bitandukanye hari inyubako zifite amabati y'umutuku, hari ifite igipangu gifite ibara ry'umukara, imodoka ziri muri uyu muhanda ku nkengero zuy'amazu hari indabo ndetse n'ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda uri kujya mu byerekezo bitandukanye, ufite ibyapa byamamaza ibintu bitandukanye. Hari amatara yo ku muhanda, insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi, indabo n'ibiti biterwa ku muhanda ndetse n'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo abamotari ndetse n'imodoka bari kujya mu byerekezo bitandukanye, inzu nini ya etage ndetse n'izindi zitari etage, hari ibyapa byo ku muhanda habaye ibyerekana amerekezo y'umuhanda ndetse n'ibindi byamamaza ibintu bitandukanye, amatara yo ku muhanda ndetse n'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Mu muhanda harimo moto, imodoka, ndetse n'amagare abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru icyapa cyerekana ko hari ikiraro, hari amatara yo ku muhanda, ndetse n'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Uyu n'umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye, yaba abanyonzi, abamotari ndetse n'abatwaye imodoka. Ukaba ukikijwe n'ishyamba ry'ibiti bitandukanye, ufite amatara ku muhanda, ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ikinyabiziga cya moto abagenzi bakoresha amaguru, ibiti biterwa ku kuhanda, ipoto ririho insinga z'amashanyarazi zitwara umuriro mu bice bitandukanye ndetse n'ahantu hatangirwa serivise z'irembo.

Umuhanda ufita amerekezo atandukanye harimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka zitwaye abagenzi, hari amatara ndetse n'andi mapoto ariho ibyapa byose biri ku nkengero z'umuhanda, hari ibyatsi biteye ku muhanda inyuma y'umuhanda hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, ku nkengero zawo hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, hari kandi n'igice kigaragaza aho imodoka igomba guhagarara igihe igiye gushyiramo cywangwa se gukuramo umugenzi.

Umuhanda uri kujya mu byerekezo bitandukanye harimo imodoka ndetse na moto hari igice kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kunyura mu gihe bari kwambukiranya umuhanda bajya mu wundi ku nkengero z'umuhanda hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye .

Umuhanda urimo imodoka uri kujya mu byerekezo bitandukanye, hari kandi ibiti n'indabo zifite amoko atandukanye, amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'insinga zitwara umuriro w'amashanyarazi.

Hano hari umuhanda ufite amatara ya feruje atandukanye, urimo ibinyabiziga bitandukanye haba moto ndetse n'imodoka, ufite inyubako zitandukanye ndetse na sitasiyo ya gaze ifite ibyapa bya eyeteri ndetse n'ibindi bitandukanye.

Uyu ni umuhanda ukikijwe n'ishyamba, ukaba urimo ikinyabiziga ndetse ukaba ufite amatara ku muhanda n'ibyapa, ukaba ugaragaza inzira ikoreshwa n'abanyamaguru mu gihe bagiye kwambuka umuhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bitandukanye byose byacanye amatara haba ay'imbere ndetse n'ay'inyuma amatara yo ku muhanda yose arimo araka ndetse n'ayandi mazu agiye afite amatara arimo araka bigaragaza ko byageze mu gihe cy'umugoroba

Umuhanda ku nkengero zawo hariho ishyamba ririmo ubwoko bw'ibiti bitandukanye. Mukugaragaza inzira inyurwamo n'abanyamaguru, ndetse n'aho bagomba kunyura mugihe bari kwambukiranya umuhanda.

Umuhanda uri kujya mu byerekezo bitandukanye, harimo ibinyabiziga nka moto ndetse n'imodoka, icyapa kigaragaza ko hari rompuwe, amatara yo ku muhanda ndetse n'ishyamba ririmo ibiti by'amoko atandukanye, abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru.

Umuhanda urimo urajya mu byerekezo bitandukanye, hari moto z'ubwoko bwinshi zitwaye abagenzi ndetse n'imodoka, ku nkengero z'umuhanda hari ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye, harimo kandi na feruje zo ku muhanda abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru.

Umuhanda urimo abagenzi bari gukoresha inzira y'abanyamaguru, hari feruje ziri ku nkengero z'umuhanda, hari kandi n'igice kigaragaza aho abanyamaguru bagomba kunyura mu gihe bari kwambukiranya umuhanda, ku nkengero z'umuhanda hari ishyamba ririmo ibyatsi ndetse n'ibiti mu moko atandukanye.

Inyubako zacanye amatara yo ku muhanda bigaragara ko ari mu masaha ya nimugoroba; abagenzi bari gukoresha inzira yagenewe abanyamaguru ndetse n'igare ryifashishwa mu gukora siporo; indabo ndetse n'ibiti biteye ku nkengero z'inyubako ndetse n'umuhanda.

Umuhanda urimo moto ndetse n'imodoka, ku nkengero zawo hateye ibiti bimera mw'ishyamba ndetse hagati mu muhanda harimo ibiti ndetse n'indabo byagenewe guterwa ku muhanda, harimo igice kigaragaza aho abakoresha inzira y'abanyamaguru banyura mu gihe bari kwambukiranya umuhanda.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga bya moto biri kujya mu byerekezo bitandukanye, hari icyapa cyo ku muhanda kerekana amerekezo bitewe naho ikinyabiziga kirikwerekeza, hari amatara yo ku muhanda hejuru y'umuhanda hateye ibiti by'ubwoko butandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga biri kujya mu merekezo atandukanye hari amatara yo ku muhanda, hejuru y'umuhanda hari ibiti bitandukanye ndetse hari n'icyapa cyerekana amerekezo.

Umuhanda uri kujya mu byerekezo bitandukanye harimo imodoka, hari feruje ku nkengero z'umuhanda ndetse n'amatara yo ku muhanda. Hari abanyeshuri bari gukoresha inzira y'abanyamaguru bajya mu muhanda, hari inyubako zubatse mu buryo butandukanye ndetse n'ibiti biterwa ku muhanda.

Umuhanda uririmo moto zitwara abagenzi; hari amatara yo ku muhanda ndetse n'ibyapa byamamaza ibintu byinshi bitandukanye; indabo ndetse n'ibiti biterwa ku muhanda ndetse n'ishyamba ririmo ibiti by'ubwoko butandukanye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga nka moto, imodoka ndetse n'amagare. Ku nkengero zawo hari ibiti ndetse n'icyatsi bitandukanye. Hari amapoto ariho amatara yo ku muhanda ndetse n'inziga zitwara amashanyarazi mu bice bigiye bitandukanye.

Uyu ni umuhanda urimo ibinyabiziga na moto n'imodoka. Ufite ibiti byagenewe guterwa ku muhanda ndetse ku nkengero zawo hari ishyamba ririmo ibiti bitandukanye.

Ahangaha biragaragara ko ushobora gutunga apurikasiyo ya ekwiti banki muri telefoni, maze ukajya uyifashisha mu bikorwa ushaka gukoresha konti yawe haba kohereza amafaranga, kubitsa, kubikuza n'ibindi.